Abagabo batatu bari gutera ibirayi mu murima, aba bagabo baricaye kuruhande hari ipaniye bari gukuramo ibirayi, bari gutera ibirayi mu cyaro, babiri bambaye bose bambaye ingofero.

Umugabo wambaye imyenda y'akazi afite ipombo ayihetse mu mugongo. Ari gufuhirira ibisa nk'inyanya.

Ifi iteretse ku iparato, hariho urunyanya, ndetse n'indimu. Iyi ifi bayokeje, basoje bayishyira ku parato, bashyiraho n'inyanya.

Mu cyaro aho intama ziri. Intama imwe yitwa deline ndetse n'izindi ebyiri. Imwe iraryamye, izindi ziri kurisha ibyatsi mu kibaya. Hirya hari ibiti ndetse n'imyaka. Harimo ibitoki.

Umurima weze ibigori basaruye basaruye, harimo ibigorigori byumye, ndetse ku ruhande hari ibiti bitandukanye ndetse n'ibindi.

Mu cyaro ihene ziri kurisha ibyatsi mu kibaya. Hakurya hari ibishyimbo byumye, ndetse hirya y'ibishyimbo hari ishyamba. Hakurya y'ishyamba hari ibirunga.

Umurima mu cyaro urimo ibigori ndetse n'ibihaza biteye hasi, ibigori byarahetse bifite ibigori byumishije imisatsi byenda kwera.

Puwavuro ziteye mu murima imwe yari icyatsi indi yabaye umutuku, ayo mapuwavuro ateye mu murima aratohagiye afite n'amababi y'icyatsi kibisi

Imyembe iteye mu murima. Uwo murima wararaye harimo ibyatsi. Imyembe nayo ntirera iracyari ku biti. ntabwo irera neza, iracyari ibitumbwe. Igiti kimwe ni kirekire, ikindi ni kigufi.

Umugore yambaye bote z'umweru, yambaye igitenge ndetse n'ishati itukura, yiteze igitambaro mu mutwe, ari gufuherera amazi ari kunyura mu itiyo, iruhande rwe hari ibiti, ndetse n'ibyatsi bitandukanye.

Abahinzi bo mu cyaro bafite ibijumba biriho imigozi. Harimo abagabo batatu n'umugore umwe. Hirya yabo hari ibishyimbo byumye, umugore yiteze igitambaro cy'umuhondo.

Inyanya n'intoryi ziteretse ahantu, buri intoryi zifunze ku mifungo, n'inyanya zifunze mu mifungo zitetse ku kintu cy'ikibogisi. Izi nyanya ziratukuye cyane, n'intoryi zisa nk'izenda gupfa.

Inzu y'ububiko bw'ifu yitwa kawunga. Harimo imifuka itandukanye y'ibara ry'umweru. Ku ruhande hariho ikigori, noneho handikishijeho amagambo y'umutuku.

Abagabo bari mu bireti bari kubisarura. umwe yambaye ikote, ikote ndetse afite n'indobo, undi wo ku ruhande yambaye ikote ry'umukara n'agapira gatukura, undi na we yambaye ingofero.

Mu cyaro umurima urimo ibigori, urimo n'ibishyimbo biteye mu muririma, hariho ibishyimbo byumye n'ibigori bikiri bitoto. Uyu muririma uherereye mu cyaro.

Ibigori biri mu murima mucyaro biteye kumurongo biracyari bitoya, ibi ibigori ntabitangira guhika bisa icyatsi kibisi, kandi ntago biratangira kuzana imisatsi.

Amagi y'umweru ari mu kantu baterekamo. Ayo magini menshi, asa nk'aho ateretse mu kantu ka yo. Amagi asa umweru, ndetse hariho n'ayandi ku ruhande.

Ingurube iri kurya, iri mu bitaka, isa igitaka, ndetse isa nk'iri kurya hasi, ariko nta byatsi bihari. Iyi ngurube ni nkuru, isa nk'iyima.